Iki ni igikoresho cyifashishwa mu buryo bwo gucunga umutekano, ndetse no kumenya abantu binjiye muri iyo nyubako ahantu hashyizwe iki gikoresho. Gikoreshwa mu buryo butandukanye, ndetse ku nyubako zitandukanye zaba inini, cyangwa se intoya. Kikaba gikoresha amashanyarazi cyangwa ubundi buryo bw'umuriro butandukanye.

Izi ni inzego z'umutekano zirimo abasirikare, abapolisi, daso ndetse n'izindi nzego zitandukanye zirimo ribu. Aha bakaba bari bari gutanga ibikoresho by'abaturage ari byo bote. Bari kuzitanga ku baturage.

Aba ni abapolisi bari mu ubukangurambaga mu buryo bwo kwirinda ibiza by'inkongi y'umuriro ishobora guterwa na gaz. Aha bari gusobanurira abanyeshuri uburyo bashobora kuzimya inkongi y'umuriro yatewe na gaze.

Uyu ni umukozi ushinzwe gucunga umutekano w'ibintu ndetse n'abantu. Kugira ngo hatagira uwahaza akangiza umutekano w'ibyo bintu ndetse na bantu.

Ni inzego z’umutekano, ndetse n’inzego z’ubuyobozi bwite zirimo polisi, ingabo, Daso, irondo ry’umwuga, ndetse n’abayobozi batandukanye. Aha bari mu gikorwa cyo gushyikiriza moto umwe mu bakozi b’umutekano.

Uyu ushinzwe umutekano ukorera ikigo cy'igorora, cyitwa arasiyesi Rwanda kolekisheni savise akaba azwi ku izina ry'umusoloviye.

Ni imodoka ikinyabiziga gitwaye ibintu n'abantu. Kikaba kibakuye mu gice kimwe kibajyana mu kindi gice. Aha hakaba hakenewe inzego z'umutekano kugira ikinyabiziga kireke gupakira ibirenze ubushobozi bwacyo.

Aha ni ku kigo cy'ubahanzi n'ubugeni, abo bakaba ari abakaraza cyangwa se abavuzi b'ingoma, bavuza ingoma ndetse hakaba hari n'intore ziri kubyina.

Aka ni agaseke kifashishwaga n'abakurambere cyangwa abantu bubu mu gutwara ibibiribwa bitandukanye bagiye gusurana.

Ibi ni ibihingwa bitandukanye birimo amateke ndetse n'ibihaza byakorwamo ibicuma. Ibicuma byifashishwaga mu muco Nyarwanda byifashishwaga mu kunyweramo inzoga, urwagwa, umusururu ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Akaba ari igicuma cyanywerwagamo n'abantu bahukuru.

Iki ni igice kirimo inyubako ikorerwamo ubukerarugendo bushingiye ku muco ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye nabyo bishingiye ku muco yaba uburyo bw'imiterere y'inyubako ndetse n'ubwoko bw'ibiti biharangwa.

Uyu ni umuvure wakoreshwaga n'abakurambere cyangwa abasogokuruza bacu mu buryo bwo gukama ibitoki kugira ngo babikuremo umutobe cyangwa ngo bakore bashaka gukora inzoga bita urwagwa.

Aha ni ahakorerwa ibijyanye n'ubugeni, ndetse no gushushanya. Bashushanya ibintu bitandukanye, banatanga serivisi zo kugura no kugurisha ibintu bijyanye n'ubugeni, ndetse n'ubuhanzi.

Ni umuntu ufashe umwuko cyangwa se akamamiyo. Kakaba ari igikoresho cyifashishwaga mu gusongo ubugari cyangwa se umutsima ndetse no kuba wawaruza isosi. Akaba ari igikoresho gikozwe mu giti cyifashishwaga mu muco nyarwanda.

Uru ni urwuho, agacuma, imiheha, ndetse inkoko n'ikirago. Bikaba ari ibikoresho byifashishwaga n'abakurambere cyangwa abasokuruza bacu bo hambere. Byifashishwaga bagosora cyangwa se barobanura imbuto. Uruho bakaba bararunyweragamo ndetse n'igicuma baka barakinyweragamo.

Iri ni itorerero bakunze kwita intore, akaba ari abantu babyina, cyangwa itsinda ribyina indirimbo z'umuco gakondo. N'imbyino zirimo ibinimba, ndetse n'izindi mbyino zitandukanye.

Aba ni abantu bahetse umuntu mungobyi, ingobyi akaba ari igikoresho cyifashishwaga n'abantu ba mbere, mu buryo bwo gutwara abantu babajyana ku bitaro, ndetse no ku mavuriro, iki gikoresho cyifashishwaga mu bice by'ahantu hatabasha kugera imodoka, cyangwa ikindi kinyabiziga.

Aba ni ababyeyi bambaye imyenda itandukanye yitwa imikenyero, ikaba ari imyenda bambaraga mu muco nyarwanda. Buri wese, umubyeyi wese akaba ari yo yamurangaga. Iyi myenda kandi yifashishwa mu gihe cy'ibirori, ubukwe butandukanye ndetse n'ibindi birori bitandukanye.

Imyuko, igikoresho gikoreshwa mu gusonga cyangwa se kuvanga amafu atandukanye ,kugira ngo akorwemo ubugari ndetse n'ibindi bintu.

Iyi ni isekuru n'umuhini akaba ari igikoresho cyifashishwaga n'abakurambere cyangwa abasekuruza bacu, kikifashishwa basekura imbuto ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Iyi ni intango cyangwa se ikibindi cyifashishwa kirimo umusururu w'ubushera cyangwag se ikigage, kirimo n'imiheha. Cyifashishwaga mu muco nyarwanda mu gihe habaga habaye ubukwe, bakaba barabyifashishaga basangirira ku muheha umwe.

Iyi ni intebe izwi ku izina rya moviringu, ikaba ari intebe y'umuco nyarwanda kera bicaragaho, ndetse ikaba inicarwaho n'abantu bakuze.

Iki ni igikoresho kizwi ku izina ry'inkono . Igikoresho cyifashishwaga n'abakurambere, cyangwa aba sogokuruza mu muco nyarwanda . Cyatekwagamo ibiryo by'ubwoko butandukanye.

Igisoro imwe mu mikino yakinwaga n'abasaza ba kera, ubwo babaga bari kugorobereza kugirango ngo bwire. Uyu ni umukino ukoreshwa n'utuntu tumeze nk'amabiye cyangwa amashaza mu mikino itandukanye.

Aba ni abayobozi ndetse n'abaturage, bari mu gikorwa cy'umuganda. Umuganda akaba ari igikorwa cyo kuva mu muco nyarwanda, cyahurirwagamo n'abantu benshi, bahanaga umuganda, akaza kuguha umuganda, nawe ejo ukamwishyura.

Uyu ni umuntu uri kugosora imbuto, cyangwa se uri kurobanura imbuto, ashaka kuyiteka cyangwa se kuyitera, iki akaba ari igikoresho cyifashishwa na basogokuruza bacu, ndetse n' abakurambere mu muco nyarwanda.

Iyi ni inzu ndangamurage yabagamo abami, ndetse ikaba ikurura ba mukerarugendo muri iki gihe. Kandi inzu yinjiza amafaranga ndetse n’amadovize baje kuhakorera ubukerarugendo.

Uyu muntu afashe ikirago, kikaba arigikoresho kifashishwa, mu bijyanye n'umuco nyarwanda, aribyo bita kuramukanya, iki ninigikoresho kandi kifashishwa, banika ho ibigori, amasaka ndetse bakaba, bakifashisha bacyicaraho.

Aha ari kuboha ikirago; ikirago kikaba ari igikoresho cyifashishwa mu muco nyarwanda, cyaba icyo kuryamaho, kwicaraho, kwanikaho imyaka itandukanye.

Igikoresho cy'umuriro, cyifashishwa gihurizwamo insinga zitandukanye, ndetse ikaba yakupa umuriro ikanawuwusubizaho igihe hagiye kuvuka inkongi y'umuriro.

Iri ni itara ryo ku muhanda, ryaka ryifashishije umurasire w'izuba ndetse n'amashanyarazi. Rikaba ari itara rishyirwa mu mbuga z'ahantu hatandukanye, ndetse rikaba ryanashyirwa ku muhanda.

Iki ni igikoresho cy'amashanyarazi kikaba cyifashishwa bacana ndetse bazimya amatara yo mu byerekezo bitandukanye, ndetse no mu bice bitatu bitandukanye.

Iki ni igikoresho gikoreshwa mu mashanyarazi, kikaba ari igikoresho, cyi fashishwa bahurizamo insinga zitandukanye, kugira ngo zidakomanaho, hakaba havuka inkongi y'umuriro, cyangwa se zikaba zateza, ikindi kibazo gitandukanye.

Iki ni igikoresho cy'amashanyarazi cyifashishwa bacomekaho ibindi bintu by'ubwoko butandukanye, ndetse gipima umuriro w'amashanyarazi ibikoresho bigicometseho biri gukoresha, ndetse binari gukonsoma, bikanawongera igihe umuriro muri ibyo bikoresho wabayemo muke.

Iki ni igikoresho cy'amashanyarazi cyifashishwa bagabanya cyangwa bongera umuriro w'amashanyarazi, ndetse akaba n'igikoresho cyifashishwa mu kugabanya umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, ndetse no mu nyubako zitandukanye no mu bikoresho bitandukanye bigicumbitseho.

Kimwe ni igikoresho cy'amashanyarazi cyifashishwa mu kujyana umuriro. Ikindi gikoresho kirimo imashini, radiyo, televiziyo cyangwa se ikindi gikoresho gitandukanye gishobora gukenera umuriro w'amashanyarazi. Iki kikaba ari igikoresho cyifashishwa bagicomeka muri plise cyangwa se muritiplise.

Igikoresho cy'amashanyarazi, cyifashishwa mu gucana ndetse no kuzimya amatara atandukanye, mu bice bitandukanye ndetse no mu gihe gitandukanye.

Urukamba cyangwa se urutsinga, kikaba ari igikoresho gikoreshwa n'amashanyarazi, kugira ngo gihuze ibice bimwe bikoresha amashanyarazi. Kuva aho umuriro winjirira mu nzu, ujya ku itara. Cyangwa se kuva aho itara ricanirwa, ujya ku itara na none.

Igikoresho cy'amashanyarazi gikunze kwifashishwa kugira ngo bacomekeho ibintu byinshi cyane bitandukanye biriho gucangiga amatelefone, gucomekaho radiyo, ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bikoreshwa umuriro w'amashanyarazi. Bacyita mu rurimi rw'amahanga militipurize.

Ibi ni ibikoresho by'amashanyarazi byifashishwa mu kugabanya cyangwa se kongera umuriro, ndetse bikaba byanacomekwaho ibindi bikoresho bitandukanye.

Iki ni igikoresho cy'amashanyarazi, cyifashishwa mu buryo bwo gutanga intabaza, cyangwa kumenyesha abantu igihe hari igikorwa kidasanzwe, cyangwa ikintu kidasanzwe kibaye mu nyubako yashyizweho iki gikoresho. Gikoreshwa amashanyarazi ndetse kigashyirwa mu nyubako nini n'intoya.

Izi ni inyubako za leta hakaba n'umudugudu w'icyitegererezo utuwemo n'abaturage ukaba urimo ibice bitandukanye, harimo amashuri abaturage batuyemo, ndetse n'ibiro by'ubuyobozi bw'akagari.

Ni inyubako y’ubuyobozi, uyu akaba ari umurenge, hakaba hatangirwa serivisi zitandukanye z’irangamimerere, serivisi z’ubutaka, ubutabera, ndetse n’izindi serivisi, gukemurirwa ibibazo ndetse n’ubwunganizi.

Iyi ni inyubako ya Leta itangirwamo serivisi z'ubuyobozi, gukemura ibibazo bitandukanye, ahahurira abantu benshi bari mu nama, ndetse hakaba hanatangirwa n'izindi serivisi zitandukanye, zijyanye n'ubutabera.

Iyi ni inyubako yubatswe na leta akaba ari umudugudu w'icyitegererezo watujwemo abaturage batandukanye, ari abadafite aho kuba, abasenyewe n'ibiza, ndetse n'abafite ibibazo by'imibereho itandukanye.

Iyi ni inyubako ya Leta itangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo ubuyobozi bw'akagari, ivuriro ariryo bakunze kwita posite do sante, ndetse n'izindi serivisi zitandukanye z'ubujyanama.

Iyi ni inyubako yakira abantu benshi bakeneye serivisi za leta, cyangwa se urusengero ndetse n'abatabiriye inama zitandukanye, ahakemurirwa ibibazo bijyanye n'ibibazo by'abaturage.

Iyi ni inzira cyangwa se umuhanda ujya ku nyubako za leta, ahahurira abantu benshi ndetse no ku nsengero. Iyi nzira ikaba igaragaza imbere yayo inyubako y'urusengero ndetse n'inyubako ihurirwamo n'abantu benshi.

Uyu ni umuhanda rusange wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga ndetse n’abantu bajya mu bice bitandukanye. Aya na yo ni amatara ahamurikira mu gihe cy’ijoro, kugira ngo hirindwe umwijima.

Ikiraro cyo mu kirere kikaba inzira nyabagendwa inyurwamo n'abaturage mu buryo bwa rusange, kiikaba gifasha abaturage kwambuka bava mu gice kimwe bajya mu kindi gice, banyuze mu kirere, munsi y'iki kiraro hari amazi.

Izi, ni inyubako za Leta . Zikaba inyubako zihurirwamo n'abantu benshi, ndetse hakaba hari n'Insengero zitangirwamo serivisi zitandukanye zirimo gutuza abaturage ndetse n'ahantu wabariza ikibazo cyawe.

Iyi ni inzu y'ububiko bw'imbuto zo guhinga, ikaba ari inyubako ya Leta yifashishwa n'abaturage batandukanye babikamo imbuto zo guhinga. Zirimo ibirayi, ibigori, ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Aba ni abaturage bitabiriye inama, imbere yabo bari kuganirizwa n'umuyobozi, ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera ku bahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa, cyangwa se n'ikindi kibazo cyose cyaba cyerekeranye n'ubuyobozi.

Ikibuga gihuriramo abaturage n'abayobozi bari kuganira, ndetse bari kuganirizwa ku burenganzira bwa muntu. Ndetse n'uburyo bahabwa ubutabera, igihe bahuye n'ikibazo.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubutabera, ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Aba bakaba ari abantu bari bari gutega amatwi ikibazo cy'uyu muntu, na none bumva ndetse bakanakemura icyo kibazo.

Aha ni ahagarara imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ndetse aba akaba ari abagenzi nabo bashaka gutega imodoka mu buryo bwa rusange, berekeza mu bice bitandukanye, ndetse hakaba haparikwa imodoka nini n'into, zitwara abagenzi mu bice bitandukanye.

Ikindi kinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange kibakura mu gice kimwe kibajyana mu kindi gice. Ndetse aha hakaba ari n'ahantu haparikwa imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange.

Iki ni ikinyabiziga gitwara abaturage mu buryo bwa rusange, kibajyana mu bice bitandukanye by'Igihugu, kibakuye aho baba bahagaze bagiteze.

Iki ni ikinyabiziga cyifashishwa mu buryo bwa rusange, gitwara ibintu ndetse n'abantu kibijyana mu bice bitandukanye, mu masoko, mu makaritsiye ndetse no mu ngo z'abaturage.

Ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange, kibakura mu bice bimwe kibajyana mu bindi bice, kizwi ku izina rya moto, akaba iri ikinyabiziga cyifashishwa mu koroshya ingendo zimwe na zimwe, zerekeza mu bice bitandukanye.

Moto ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Bakifashisha mu rwego rwo korohereza abanyamaguru ingendo zitandukanye. Ibakura mu gice kimwe ibajyana mu kindi gice.

Aba bagenzi bategereje imodoka zijya mu bice bitandukanye . Aha akaba ari ahantu haparikwa ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, bibakura mu bice bimwe babajyana mu bindi bice , mu buryo bwo kuborohereza ingendo.

Aha ni ahahagarara imodoka rusange ndetse hakanahuriraa imodoka rusange n'abantu bashaka kuzitega bajya mu bice bitandukanye by'igihugu . Aha hahurira imodoka nini n'intoya, ndetse n'ibindi binyabiziga byose bifitanye isano no gutwara ibintu n'abantu.

Indege y'ifashishya mu gutwara ibintu n'abantu mu buryo bwarusange ibakura mu bihugu bimwe ibaryana mu bindi bihugu, ikaba ari indege izwi ku izina rya rwandeya.

Aha ni ahahurira ndetse hakanaparikwa imodoka zitandukanye bakunze kwita gare, zitwara abagenzi bagiye mu bice bitandukanye, hakaba haparikwa imodoka nini n'intoya zose, gahunda ikaba iyo gutwara abantu n'ibintu byabo zibajyana mu bice bitandukanye hirya no hino.

Iyi ni inyubako yakirirwamo abantu bashaka gufata amatike berekeza mu bice bitandukanye. Uyu na we ni umuntu ushinzwe gutanga serivisi no kuyobora ba bantu baje gufata amatike kugira ngo batege imodoka cyangwa se ikindi kinyabiziga cyose gikoreshwa rusange n'abantu benshi batandukanye ndetse b'ingeri zitandukanye.

Aka ni agace gaparikwamo imodoka zitandukanye zikoreshwa n'abagenzi bagiye mu bice bitandukanye, ndetse ikaba iparikwamo imodoka za rusange zaba izijyamo abagenzi bagiye mu bice bitandukanye. Gare ikaba ibamo imodoka nini n'intoya zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bagiye mu bice bitandukanye.

Iyi n'imodoka yo mu bwoko bwa toyota, akaba ar'imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi cyangwa se ibintu mu buryo bwa rusange, yifashishwa n'uyikeneye kugira ngo imutwaze ibintu, ibikura mu gice kimwe ibijyana mu kindi gice.

Moto zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, akaba ari ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara abantu, kibakura mu bice bimwe kibajyana mu bindi bice, kugira ngo borohererwe n'ingendo.

Iki ni ikinyabiziga gitwara ibintu ndetse n'abantu mu buryo bwa rusange, kibakura mu bice bimwe kibajyana mu bindi bice. Aha kikaba ari ikinyabiziga cyari gitwaye amavuta ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, kibijyanye ku babiguzi.

Aha ni ahantu nyaburanga hifashishwa hakorerwa siporo, ndetse n'indi mikino y'imyidagaduro itandukanye, ndetse n'imikino ngororamubiri itandukanye.

Imikino ngororamubiri , aha akaba ari ikibuga cya basikete cyangwa se gikinirwamo imikino y'intoki itandukanye irimo izwi ku izina rya basiketi ndetse na vorebaro.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ndetse n'imikino ijyanye no kugorora umubiri itandukanye, irimo futuboro, basiketeboro, ndetse n'indi mikino ijyanye no kwiruka, aha ni sitade hazwi ku izina...

Aha iki ni ikibuga cy'imyidagaduro, aba bari gukina umukino w'intoki witwa voreboro, ukaba ari umukino ukaba uzwiho kurambura imitsi y'uwukinnye, ndetse ukaba ari n'umukino ukundwa n'abantu benshi.

Iki ni ikibuga cyifashishwa hakorerwamo imikino ngororamubiri, ndetse n'imyitozo ngororamubiri, kikaba ari ikibuga cya volebolo, gikinirwamo igihe abantu barimo gukora siporo zitandukanye.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri cyangwa se imikino itandukanye . Aha akaba yararari gukina umukino w'intoki uzwi ku izina rya voreboro.

Uyu ni umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, irimo gutera icumu, kwiruka, ndetse no gusimbuka. Ibi bikaba bifasha umubiri kuba wakora neza, ndetse ukananuka mu buryo butandukanye, hakaba hakwirindwa kuba wafatwa n'indwara zimwe na zimwe zitandukanye.

Aba ni abakinnyi b'umupira w'intoki basiketiboro. Bari bari kwishimira intsinzi, bari bamaze gutsinda. Aha bakaba bari bari ku kibuga bari bakiniyeho.

Iki ni ikibuga gikorerwamo imikino ngororamubiri, ndetse n’imyitozo ngororamubiri. Iki akaba ari ikibuga gikinirwaho umukino uzwi ku izina rya voleboro.

Iyi ni imihanda yo mu makaritsiye, cyangwa mu mudugudu. Akaba ari imihanda ibasha guhuza umudugudu umwe n'undi, cyangwa mu guhuza umudugudu n'umujyi.